Inzu nini yegeranye n'akazu gatoya'abacururizamo amata gafite irangi ry'umweru, imbere yaho hateye amapave urugi rurafunze hariho icyapa hejuru haca insinga z'amashanyarazi.

Ibikinisho by'abana, imodoka iifite amapine y'umukara ifite n'ibara ry'umuhondo, igitogotogo k'igikinisho, igipupe cy'umuntu, igipupe bashyiramo amazi, n'igipupe cy'umutuku n'umuhondo n'akabara k'ubururu.

Inzu y'amatafari ahiye ifite imiryango myinshi, ndabona igihuru imbere yayo, uruzitiro n'abantu bahagaze umwe yambaye agapira k'umutuku undi ak'umweru, ndi ak'icyatsi, ndabona inkingi zifashe ku mabati n'amadirishya.

Inzu ebyiri ziteganye zifite imiryango myinshi, ibiti byagereveriya, ibyatsi, abantu bari mu myitozo ngororamubiri, umuntu uri gufotora, mudasobwa, indangururamajwi, akameza, abana batoya, ni rindi shuri rya gatatu.

Imbere mu ishuri ry'ubakishije amatafari ahiye ariko bigaragara ko ashaje. Umunyeshuri uri kwandika ingombajwi yambaye impuzankano y'ubururu. Hari n'udupapuro tw'umuhondo.

Inzu nyinshi zigenda ku murongo utambika ndetse n'umanuka: indabo zitandukanye, igiti cy'umuyinya, amoko atandukanye y'ibiti, indabo, akayira kamanuka n'imirima itarimo ikintu.

Itaburete ifite ibara ry'umutuku ikibaho cyamanutse hasi, munzu hateyemo irangi rijya gusa nk'umuhondo intebe y'ubururu.

Nziza isize irangi ry'umweru, ifite amategura hejuru igeretse rimwe, amapoto y'amashanyarazi, insinga, ibiti by'amoko atandukanye harimo n'icyagereveriya, abantu bahagaze mu muhanda ukozwe n'amapave...

Ndimo ndabona jalide nziza, ndimo ndabona umuhanda ukozwe n'amapave, ndimo ndabona indabo ziri muri jaride, ndimo ndabona ibiti, ndimo ndabona inyubako nziza igeretse rimwe, ndimo ndabona n'insinga z'amashanyarazi, ndimo ndabona ibiti byinshi bitandukanye.

Mu kibuga kigali kirimo mashitingi, kirimo urujya n'uruza rw'abantu, kirimo abanyeshuri basoje amashuri ya kaminuz,a hari imodoka ziparitse, hari abaje babaherekeje, hari umutaka, bajugunye ingofero hejuru bambara bambaye n'amakanzu.